Icyumba kiberamo inama harimo intebe z'umukara, abantu bicaye, umudamu ahagaze imbere y'abantu ari kuvuga, yambaye umukenyero urimo amabara y'icyatsi.

Umuyobozi w'igihugu Kagame, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, ifite imifuka ibiri iriho uturongo tw'umukara. Yambaye ipantaro y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umweru, iruhande rwe hari icupa ryamazi hagati mu bantu benshi.

Umugabo wirabura ufite umusatsi wirabura urimo umweru, yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, yicaye ku ntebe y'umukara nini ari kuvugira mu ndangururamajwi, imbere ye hari icupa ry'amazi na mudasobwa ku ruhande.

Umuhanda mugari w'umukara urimo amabara y'umweru harimo imodoka ebyiri inini n'intoya zisa umweru ziriri kugenda, hirya hari inyubako nini iriho ibara ry'umutuku isize amarangi y'umuhondo imbere yaho hari inyubako nini ihagazeho imodoka y'umutuku niy'umukara.

Imodoka ndende isa n'umweru ifite amapine asa umukara ihetse imiziguye myinshi itwikirije igitambaro gisa n'icyatsi kibisi hasi hariho igifite ibara ry'umweru iri mu muhanda w'umukara.

Umugabo utwaye ikinyabiziga cy'amaguru abiri, yambaye agapira k'amaboko maremare, gasa n'ubururu, harimo ibara ry'umukara, ahetse abana babiri umukuru n'umuto, hirya hari ipikipiki, iri mu muhanda.

Umugabo yambaye imyenda y'ikirori ahagaze ku kazu gategerezwamo ari ku gikoresho cy'itumanaho yambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'ubururu, inkweto z'umukara.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko gishushanyijemo hagati ikizeru cyanditsemo amagambo mu ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'umutuku n'umukara.

Inyuguti ya pa nkuru ishushanyishije ibara ry'umweru, iri mu ibara ry'ubururu ryinshi, izengurutswe n'akarongo gafite ibara ry'umweru, n'akandi inyuma yako gafite ibara ry'ubururu.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpandeshatu, gifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru mo hagati kimanitse ku cyuma.

Igipangu gisize amarangi y'umweru n'umukara n'andi yijimye, imbere yaho hateye indabo z'umuhondo. Hirya y'igipangu gato hateye ibiti byinshi n'imbere mu gipangu harimo inzu igipangu gifite amarembo ariho urugi rw'umukara rw'icyuma.

Imodokari iri mu muhanda iri kugenda, harimo n'amapikipiki atatu, harimo n'abagenzi bari mu muhanda bagenda n'amaguru, iruhande rw'umuhanda hateyeho ibiti, ku rundi ruhande hariho amatara yo ku muhanda.

Umunyonzi utwaye ikinyabiziga cy'amaguru abiri, yambaye akenda gasa n'icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari kwambuka umuhanda urimo amabara y'umweru n'umukara n'andi y'umuhondo, imbere ye hari umugabo wambaye ingofero n'ipantaro y'umukara ari kugenda.